Abantu benshi barishimye barimo barifotoza, bamwe barambuye amaboko abandi bagize intoki ukuntu barimo barifotoza, abarimo abazungu n'abirabura, abagabo n'abagore, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Women Leaders Global Health.

Ibitaro bya Fayizari hari abantu barimo kuhatunganya, hari uri ku rwego hejuru, undi we ari hasi arimo aramuhereza urutsinga, undi aturutse ku ruhande yambaye agapfukamunwa k'umukara yegeranye nabo.